Mu cyumba cyo kwa muganga hateye amarangi atandukanye harimo umweru n'ubururu, hakaba harimo n'ibikoresho bitandukanye birimo ibitanda by'abarwayi ndetse mudasobwa muganga areberaho amashusho ari gufata umurwayi.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, yambaye amataratara akaba yicaye mu mbangukiragutabara ari nawe uri kuyitwara, yicaranye n'undi mugabo wambaye agapfukamunwa bisa n'aho ariwe muganga.

Abantu bakora serivise z'ubuvuzi kwa muganga, bari mu nzu imwe iteye irange ry'umweru aho bafite ibipupe, umugabo umwe akaba ari kubigisha uburyo bashitura umutima w'umuntu iyo umutima ushaka guhagarara.

Umugabo wambaye ishati itukura irimo turongo duto tumanuye n'udutambitse tw'umukara, akaba yarakoze impanuka akavunika ukuboko ubungubu avuye kwa muganga aho bamushyizeho igisima kimufasha kugira ngo akaboko ke gasubirane.

Umugore w'umuganga wambaye ikanzu y'umweru yakiriye abagore benshi cyane bafite abana bakiri bato aho ari kubaha ibinini by'inzoka bakabiha abana babo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse no gukura neza nk'uko byakagenze.

Abantu biganjemo urubyiruko babiri muri bo bambaye amajire y'umutuku aho bakorera umuryango mpuzamahanga bahita ku mbabare, basuye abaturage mu rugo rwabo inzu yabo ikaba yabakesheje inkarakara ndetse irimo urugi ruteye irange ry'ubururu.

Abantu bakorera umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare, bambaye amajire y'umutuku ariho ikimenyetso cyo guteranya. Bari kumwe n'abandi bambaye ibisarobeti by'ubururu, bakaba bateruye n'umuntu ku ngobyi ya kizungu.

IUrujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku Mudugudu buri wese yitwaje itungo atunze mu rugo, abagore benshi bazanye amahene ubona ko baje kwiyakingiza kugira ngo atazafatwa n'iki cyorezo cy'amatungo cyateye muri iyi minsi.

Imodokaza cyane y'imbangukiragutabara iri kugenda mu muhanda, aho iruhande rw'epfo hari indabo mu gihe iruhande rwa ruguru hari inzu nziza cyane iteye irangi ry'umuhondo ndetse imbere yayo hakaba hari ibiti.

Abaganga ni batanu harimo abagore babiri n'abagabo batatu, bose bakaba bambaye udupfukamunwa bahagaze kwa muganga aho bahagaze mu cyumba cy'abarwayi, bari kureba uburyo baramutse ndetse n'abari gukira ngo babasezerere.

Abaganga bambaye udupfukantoki tw'umweru, bakaba bambaye imipira imwe n'amaboko magufi, aho umwe muri bo yambaye n'itaburiya y'umweru, bari gusukura igikuta cy'inzu y'ibitaro aho bakorera.

Abantu benshi cyane bisa naho bamwe muri bo barwaye. Bahagaze mu mbuga y'ibitaro, bamwe bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano, akaba ari kubaganiriza uburyo butandukanye, bwo kwitwara neza mu cyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Abantu benshi biganjemo abakora mu nzego z'ubuzima, bari mu bitaro aho bari gutunganya ibikoresho bitandukanye bazajya bifashisha, biri mu kibuga giteyemo umukindo ndetse ku ruhande rumwe hakaba hari n'umucaca.

Abayobozi batandukanye ndetse n'abajyanama b'ubuzima mu Mudugudu. bicaye mu gishararagati kiriho amabara y'umweru, umuhondo, uburu ndetse n'icyatsi. Aho bari kuganirizwa n'inzobere mu by'ubuzima kugira ngo barusheho kunoza serivisi zabo.

Inyubako ikeye cyane y'ibitaro, irimo irange ry'umweru, ikaba irimo ibitanda byinshi cyane by'abarwayi. Ibitanda bimwe biryamyeho abarwayi, mu gihe ibindi ntabarwayi bariho. Hakaba harimo n'abantu baje gusura abarwayi baharwariye.

Ivuriro ryiza cyane, riteye amarangi y'umuhondo, aho hari abarwayi bane baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, umwe muri bo akaba afite ubumuga bw'ingingo, aho yicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Abaturage barwaye baje kwa muganga. Aho bicaye mu ntebe ziri ku ibaraza inzu y'ibitaro. Bakaba bategereje kugira ngo bagerweho babahe serivisi. Ku nzu bicayeho inyuma hariho ibipapuro biri mu mashusho atandukanye ndetse ku ruhande hakaba hari n'umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu.

Abaganga bakora mu ivuriro bambaye amataburiya y'umweru. Bakaba bari gutembera mu cyumba cyo kwa muganga, ahari ibitanda byinshi cyane by'abarwayi. Bikaba bitandukanyijwe na marido ari mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba kimwe cyo kwa muganga kirimo ibikoresho nk'intebe umuntu yicaraho iyo bari kumubyaza ndetse akaba ari intebe zitandukanijwe n'ibikuta biri mu ibara ry'umutuku, hariho n'amarido y'umweru aba akingiye umuntu.

Abarwayi benshi cyane baje kwa muganga, aho baje kwipimisha ubwandu bw'agakoko gatera Sida. Umusore umwe bari kumutera urushinge, ubona ko yababaye cyane, aho ari gufashwa na muganga w'umugore, witeze igitambaro mu mutwe.

Kwa muganga hari ibitanda by'abarwayi, igitanda kimwe kiri mu mabara y'umweru, kikaba gishasheho imyenda y'ibara ry'ubururu, iruhande hari intebe imwe, hakaba hari n'akabati gato ko muri parasitike, aho harimo urugi ruri mu ibara ry'ubururu.

Abaganga bakorera mu bitaro bakaba bambaye uturindantoki. Aho bari kugira uruhare mu gusukura ivuriro. Harimo abagabo ndetse n'umugore umwe wambaye nawe uturindantoki tw'umweru akaba ahagaze ari gusukura ku idirisha.

Akuma kari kuvaho umuriro, kakaba kifashishwa kenshi na kenshi n'abaganga bari gushyushya ibyuma mu gihe baba bagiye kubaga umurwayi ariko nta bindi byuma bafite bitwitse cyangwa se bisukuye uko bikwiye.

Umugabo w'umuvuzi akaba akora muri laboratwari kwa muganga, ari gufata amaraso umurwayi waje abagana kugira ngo ajye kumupima niba afite ubwandu bw'agakoko gatera sida cyangwa se izindi ndwara zitandukanye.

Muganga ukora muri raboratwari yambaye uturindantoki, itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari gupima ibizamini byafawe abarwayi kugira ngo arebe niba baba barwaye cyangwa se batarwaye.

Umugore wambaye marinete. Yambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse itaburiya y'umweru. Akaba ari mu nzu y'ivuriro, ahafatirwa ibizamini. Imbere ye hari ameza, ariho ibikoresho bitandukanye yifashisha mu kwita ku barwayi.

Umugabo w'umuganga akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'itariya y'umweru, aho yicaye mu nzu akoreramo areba mu cyuma cya mikorosikope aho ari gusoma ibiri ku gapapuro gato kari kanditswe na mugenzi we.

Umugabo umuganga yambaye uturindantoki ndetse n'itabuririya y'icyatsi, akaba ari mu nzu ipimirwamo ibizamini byafawe abarwayi kugira ngo barebe niba abarwaye koko, imbere ye hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye yifashisha.

Ni umuganga w'umugabo. Akaba ari mu nzu aho ari gusuka umuti mu gacupa. Yambaye uturindantoki ndetse n'itaburiya y'umweru, aho imbere ye hari ameza ateretseho amacupa abiri arimo imiti.

Umugabo ukora muri serivisi zo kwa muganga zo gupima ibizamini yambaye uturindantoki tw'ubururu yicaye mu nzu, ku meza hakaba hateretseho imiti iri mu ducupa, hari indobo iri ku ruhande y'ibara ry'umuhondo ndetse n'igikarito kinini kirimo imiti.

Abaganga batandatu bari mu nzu y'ibitaro iteye irangi ry'umweru, ni abagore batatu ndetse n'abagabo batatu, aho imbere yabo hari ameza ari ibikoresho bitandukanye bifashisha mu gupima ibizamini bafashe abarwayi.

Ikirahuri cyiza cyane kimeze nk'igicuma giteretse ku kantu ka palasitike gafite ibara ry'ikijojo rikaba gateretse hasi mu nzu ipimirwamo ibizamini byafawe abarwayi.

Umugore wambaye agapfukamunwa, yambaye agasashe mu mutwe ndetse n'igishashi k'icyatsi. Yambaye uturindantoki, akaba ari mu nzu yo kwa muganga ipimirwamo ibizamini. Imbere ye hateretse mudasobwa ndetse na mikorosikope.

Umugabo w'umuganga yambaye agapfukamunwa, amarinete, akaba afite n'ikaramu mu ntoki. Yambaye ikabu y'umweru, aho ari mu nzu apimiramo ibizame byafawe abarwayi kuko inzobere, imbere ye hari icyuma kirambitseho n'ikayi nini cyane.

Umugore umuganga ukora muri serivisi zo kwita ku bagore batwite ndetse n'abana bakiri batoya. Yaje kwa muganga, akaba yakiye umurwayi, akaba ariko kumutera urushinge ku rutugu, iruhande rwe hari imeza iteretseho agakarito k'umuhondo.

Abantu batanu barimo abagore batatu bambaye amataburiya y'ubururu, bakaba bambaye n'udupfukamunwa n'abandi bagabo babiri baricaye hasi, mu mucaca aho bari kuganira ku buryo bagomba kwita ku bagore batwite ndetse bakiri batoya.

Umugore wambaye ikoti, yambaye umupira munda w'icyatsi, akaba ahagaze imbere y'imbaga, aho ari gusobanurira abamukurikiye uburyo butandukanye, serivisi z'ubuzima zitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzimama mu Rwanda.

Abantu biganjemo abaganga bakaba bari gupima uburebure bw'umwana bifashishije akabaho kabugenewe, aho bamuryamisha bakazana akantu k'intebe bakamupima bagasunika amaguru bakareba uburebure afite.

Abana bato b'inshuke, bambaye impuzankano, umwe muri bo ahetse igikapu. Hari umugore wambaye imyenda idoze mu gitenge, aho ari kumuha amata y'inyange, akamusomya, inyuma hakaba hari undi mugore wambaye ibitenge, urimo utambuka.

Abana biga amashuri y'inshuke bakaba bambaye impuzankano, aho bari mu ishuri ryabo, bafite impapuro bari kwandikamo. Harimo abagabo babiri bakuze, umwe wambaye ijire, undi akaba yambaye ishati y'amako maremare, bisa naho ari we mwarimu.

Umwana ukiri muto, yambaye ikanzu itoze mu gitenge. Afite agapaki kanditseho ngo ongera intungamubiri, kakaba gashushanyijeho umwana muto, aho aka gapaki kari mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abana bato bari munsi y'imyaka itanu bahuriye mu rugo mbonezamikorere, aho bicaye ku mikeka hakaba hari umugabo wambaye agapera k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, uri kugenda abaha igikoma, aho mwana arikumuha igikombe ke.

Abantu benshi cyane bateraniye mu nyubako y'akataraboneka, ni mu gihe cy'ijoro ariko iyi nyubako ikaba irimo amatara meza cyane, aboneshereza abantu bose. Bakaba baje mu munsi mukuru wo kwita ku buzima bw'umwana muto ndetse n'umugore utwite.

Umugore w'umuganga akaba ari inzobere ,by'umwihariko mu bijyanye n'ubuzima bw'abana bato, yambaye itaburiya y'ubururu n'agatambaro k'umweru mu mutwe ,akaba ari kwa muganga aho ari kuvura umwana muto uryamye ku gitanda, ari kumupima umuvuduko w'amaraso, ndetse n'uko umutima utera.

Umuganga ukora muri serivisi zo kwita ku bagore batwite ndetse n'abana bakiri bato, yateruye akana gato akaba yagashyize ku munzana aho ari kugapima, ku ruhande hari abandi bagore benshi cyane buri mugore akaba afite umwana we bazanye kugira ngo amupimishe ibiro.

Isafuriya inoze yogejwe cyane, ikaba iteretse ku mashiga, aho harimo ibiryo bigizwe n'indyo yuzuye, ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibiri indwara, ku ruhande hakaba hari abagore babiri batetse ibyo biryo.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu ikaba ifite ibaraza hepfo na ruguru, iyi nzu izajya itangirwamo sevisi zitandukanye ku bagore batwite ndetse n'abana b'impinja bakiri bato.

Mu nzu ifashirizwamo abagore batwite ndetse n'abana bakiri batoya, umuganga wambaye ishati y'umweru, akaba yakiriye umurwayi w'umugore, aho ari kumuhagurutsa ku ntebe kuko arwaye cyane arembye, ubona ko guhaguruka byamunaniye.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, hari abatumirwa batanu barimo abagore babiri n'abagabo batatu aho bari imbere y'imbaga basobanura uburyo butandukanye bwo kurinda ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore akaba n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, yasuye abarwayi batandukanye kwa muganga, aho abanyamakuru bamutunze mikoro, abandi bakamutunga telefone, bamubaza uburyo bagakwiye kwifata mu kurwanya indwara zo mu mutwe.

Umugabo w'umuganga ni umwirabura, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ikarita y'akazi mu ijosi, akaba ari mu bitaro aho ari inzobere mu bijyanye n'uburwayi bw'amenyo, iruhande rwe hari akabati karimo ibitabo byinshi cyane.

Abantu benshi cyane baturutse impande zose abenshi muri bo bambaye imipira itukura ndetse n'amakarita mu ijosi agaragaza akazi bakora, bazamuye ibirizo hejuru birimo umwuka ndetse abandi bakaba bazamuye imitaka mu kirere.

Abantu benshi cyane biganjemo ababyeyi bahuriye mu kibuga k'ikigo cy'amashuri. Amashuri ahari yabagije amatafari ahiye akaba asakaje amabati y'ubururu. Abantu bahari bari kumanika amaboko mu kirere ubona ko bishimye.

Abagabo batanu bigaragara ko bane muri bo ari abarwayi bo mu mutwe undi akaba ari umuganga aho ari kugenda akina na bo abigisha uturirimbo twiza kugira ngo barusheho kumwiyumvamo ntibazajye bamutinya mu gihe ari kubavura.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi iteye irangi ry'umweru, imiryango yose irafunze, ku ruhande hakaba hateretse kandagira, imbere hari imbuga ngari ndetse hakaba hari n'umuhanda munini cyane wamabuye.

Inzu nziza icururizwamo imiti myinshi harimo abagabo babiri umwe ni umucuruzi wambaye itabutiya y'umweru ndetse n'akaruvati mu gihe undi arumukiriye, muri iyi nzu harimo imiti myinshi cyane yo mu mabara atandukanye bitewe n'ubwoko bwayo.

Inyubako icururizwamo imiti gakondo ndetse n'imiti ya kizungu harimo akabati k'umweru gapanzemo imiti iri mu bikarito biri mu mabara atandukanye bitewe n'ubwoko bw'umuti ndetse n'indwara buri muti uvura.

Amacupa ari mu ibara ry'umweru, ni amacupa menshi cyane aronze hamwe aho ariho igipapuro kiriho ibara ry'umuhondo n'umutuku ndetse hashushanyijeho amatungo y'inka, inkoko ndetse n'intama, bisa n'aho ara amacupa arimo umuti uvura aya matungo.

Inyubako iteye amarange y'umweru, ikaba icuruzwamo imiti, irafunguye, ifite imbuga ngari imbere irimo amapave, hakaba haparitsemo n'imodoka y'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda.

Umugabo akaba ari inzobere mu bijyanye n'imiti, yambaye itaburiya y'umweru aho ari mu nzu acururizamo imiti itandukanye ifasha abarwayi, imbere ye afite ikaye n'ikaramu aho ari gusoma raporo y'ibyo yacuruje ejo.

Umugabo ucuruza imiti ari mu nzu acururizamo, yambaye amarinete, akaba yambaye n'itaburiya y'umweru, ari gukoresha mudasobwa, inyuma ye hari etageri irimo imiti idatandukanye ipfunyitse mu bipapuro, nubwo nari mvuze ngo ni umugabo, ariko ni mugore ufite umusatsi mukeya.

Inzu icurizwamo imiti, irimo ibikoresho bitandukanye birimo uturindantoki ndetse n'utundi dukarito tw'icyatsi, utw'umuhondo, utw'umweru, ndetse n'utwumutuku, dusa n'aho turimo ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye, harimo etageri z'umweru, zigiye zipanzemo imiti mu byiciro bitewe n'indwara buri muti uvura, imwe iri mu bikarito by'umweru, umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'andi mabara atandukanye.

Inzu nziza cyane iteye irangi ry'umuhondo, hejuru iteye irangi ryumweru. Iriho igipapuro kigaragaza izina ryayo, ivuga ko ari inzu icururizwamo imiti itandukanye, ivura abantu.

Imiti gakondo itandukanye, icururizwa mu nzu yababugenewe, hari iri mu ducupa tw'umutuku, utw'umweru ndetse ikaba iri mu bikarito bisa n'umweru, byose byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Abaturage bahuriye hamwe bicaye mu gishoragate kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, bose bambaye imipira y'umweru, bakaba bayihawe kugira ngo bose uko bari mu nama babe bambaye impuzankano isa.

Abantu benshi cyane biganjemo abana bakiri bato, baturutse impande zose, aho baje bishimira cyane gahunda ya Leta ndetse n'aho imaze kugera mu buryo bwokwita ku bana bakiri bato, no kubageza ku ishuri.

Abantu benshi cyane biganjemo abayobozi bari kwifotoza inyuma yabo hariho igipapuro kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ntari kubona neza rimwe rikaba rivuga amahoro, abantu bamwe muri bo ni abapolisi bambaye n'impuzankano y'abapolisi.

Abantu benshi cyane biganjemo abagore. Bahagaze ku ibaraza ry'inzu aho inzu iteye irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo mu ibaraza, hirya ikaba yubakishijeje amatafari y'impunyu. Bafite igipapuro kinini cyane cyaneditseho amagambo atandukanye ya gahunda za leta zita ku buzima.

Umuganga wakira abarwayi batwite ndetse n'abakiri bato. Yakiriye abagize umuryango hano ku bitaro, aho bicaranye ku meza bari kuganira. Afite ikayi n'ikaramu ari kwandikamo ibisubizo by'ibibazo ari kubabaza.

Abana b'amashuri abanza bambaye impuzankano, bakaba bari gutembera mu muhanda aho bafite igipapuro cyanditseho amagambo y'Ikinyarwanda avuga ko biga ku rwunge rw'amashuri rwitwa Akumunigo.

Umunsi habaye amatora ku bantu bashinzwe ubuzima mu mudugudu, abantu bake cyane biganjemo urubyiruko baka baje kwiyamamaza, aho bicaye mu nzu nziza cyane iteye sima, igikuta kikaba gishushanyijeho amafoto atandukanye.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko bahuriye mu nzu bakaba bicaye mu ntebe za palasitike zisa n'umweru, bari mu nzu iteye irangi ry'umuhondo aho imbere yabo hari umugabo usa n'aho uri kwiyamamaza akaba ari kubabwira imigabo n'imigambi ye.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora kwa muganga hakaba harimo abapolisi babiri, bari kwa muganga aho umupolisi ari kubaza abaganga uburyo bakoresha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bihari.

Abasore babiri bambaye amajeze y'umuhondo. Bafite igipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi cyanitseho amagambo avuga ngo gukumira. Ni uruhare rwa buri wese kurwanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, inda ziterwa abangavu ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abantu benshi cyane biganjemo abaturage. Baryamishije umwana, ku gakoresho kabugenewe, bakoresha bapima uburebure bw'umwana, bakaba bari kumupima, iruhande rwabo hari n'umupolisi nawe ari kubareba ubona ko yishimye.

Abagore babiri umwe yambaye ikanzu itukura, undi yambaye imyenda itoze mu gitenge, umwe muri bo ateruye umwana, aho umwana bamuhaye telefoni akaba ari kuyirebamo, bicaye kwa muganga bakaba bari gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Abakobwa babiri babyibushye bafite amabuno. Bateye neza, bambaye imyenda y'umweru hejuru, bakaba bambaye amarinete, aho bafite igipapuro kiri mu ibara ry'utuku, handitseho ngo ugakoreshe neza. Ako bavuga ni agakingirizo.

Umugore akaba ari umuganga gakondo, yahamaye imiti akaba ari kuyikaraga mu ntoki, afite agasahani ndetse n'ikiyiko arashiraho umushongi uribuve muri iyo miti kugira ngo ayivurishe umuntu urwaye.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu; yambaye ikarita y'akaze mu ijosi, yambaye umupira ndetse n'itaburiya y'ubururu, akaba afite ikaramu n'urupapuro, aho ari kugenda yuzuza raporo y'ibyo yakoze ku munsi.

Udukombe tubiri tw'uturahuri turimo amazu ashyushye, aho barambitsemo umuravumba ndetse n'umwenya, kuhande hari n'umuravumba utari mu mazi, aho aya mazi barayifashisha bayanywa kugira ngo bakire indwara zitandukanye kuko umuravumba n'umwenya ari imiti gakondo ivura izo ndwara.

Amacupa y'umweru akaba arimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, aya macupa ariho igipapuro kiri mu ibara ry'icyatsi kikaba gishushanyijeho inka, inkoko y'isake ndetse n'intama.

Umugore wambaye ingofero y'ubudodo akaba ateruye umwana, aho yamuzanye kwa muganga wakiriwe na muganga w'umukobwa, wambaye itaburiya y'umweru akaba ari gupima ugutera k'umutima w'umwana, ndetse imbere yabo hari imeza iriho ikayi n'ikaramu.

Inzu iteye amarangi y'ubururu, iriho ibaraza riteye irangi ry'icyatsi, hakaba hicayemo abantu, hanze hari umugabo wegamye wambaye agatambaro mu mutwe, naho mu mbuga hari kugendamo umugore ukenyeye ibitenge, ufite n'imarete mu ntoki.

Inzu ivuriro iteye amarangi y'umweru ikaba irimo etageri irimo udupfuyinyika tw'amasashi turimo imiti yifashishwa kenshi na kenshi mu kuvura amatungo y'inkoko yaba inkokokazi cyangwa se amasake.

Umugabo ucuruza imiti y'amatungo, hari iyo afite yo mu mapaki y'icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku ariko yose ikaba irimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo harimo inka, ihene ndetse n'ingurube.

Abantu bicaye ku murongo batonze basa naho bashaka serivisi z'ubuvuzi kuko bari kwa muganga. Higanjemo abagore, buri muntu akaba afite ikayi yo kwa muganga yandikwamo ibintu bitandukanye.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ni ivuriro rya gira ubuzima, rikaba risakaje amati y'ubururu, rifite umurasire hejuru ndetse riteye amarangi y'icyatsi n'ubururu, rifite ibaraza rinini cyane, aho abantu bahagarara, hakaba hari abaganga babiri n'abarwayi babiri.

Umuganga, umugabo yambaye amataratara, akaba yambaye uturindantoki ndetse n'itabuririya y'umweru. Yicaye ku ibaraza ry'inzu, aho bari kwakira umugore ubyibushye, waje gushaka serivisi zitandukanye, z'ubuvuzi hano kwa muganga.

Inyubako nini cyane yubatse ku musozi ikaba ifite fondasiyo y'amabuye maremare, iteye irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'ubururu, ku ruhande hirya hakaba hari ikigega cy'umukara gifata amazi ava kuri iyi nzu.

Abantu benshi cyane biganjemo abari mu zabukuru. Bahuriye ku ivuriro rya gira ubuzima, aho baje kumva inama z'inzobere mu bijyanye n'ubuzima, aho bakiriye umugore nk'umushyitsi mukuru akaba ari nawe urikuganiriza.

Inzu nziza cyane ni igorofa igereretse rimwe aho ku ruhande hari icyapa kigaragaza izina ryayo ko itanga serivise z'ubuvuzi ndetse ikaba yanditseho n'andi magambo n'ubwishingizi bukorana na yo mu rurimi rw'icyongereza.